Ubucuruzi muri moteri ni ubucuruzi kizungu, ahantu mu iduka rinini rikomeye ribarizwamo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane by'ubwiza, iby'amasuku bitandukanye ni byo bigaragara.

Abaganga bakoresha imashini zitandukanye mu gihe bareba umubyeyi ushobora kuba afite umwana mu nda, babareba uko umwana ameze, bashaka kureba ingingo zitandukanye z'umubiri bifashishije imashini. Izi zikaba ari imashini zo kwa muganga zifashishwa mu kureba uko abarwayi bameze imbere mu mubiri.

Ibiti bya gereveriya ariko bitarakura neza bigomba kuba bigize ubusitani bwiza kandi biteye hafi y'umugezi aho amazi atemba ariko bikaba bifata muri rusange isuri kugira ngo aya mazi aba ari gari muri ugu mugezi kataza gutembera mu baturage cangwa ngo gatware n'indi myaka iri hirya y'ibibi...

Indabo zigira umurimbo, zirimbisha aho ziri ikigaragara ni uko zimwe muri zo zidakorewe, biba byiza iyo zitunganijwe zigakatwa, zikaringanira zikagira ingano ingana ku giti, n'ikindi hatabayeho gusumbanwa nibwo bitanga umurimbo mwiza ugaragara.

Igihingwa cy'itabi ni igihingwa ngengabukungu gishobora guteza imbere ugikoze anateza imbere igihugu cye.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo, ubuvuzi gakondo bwifashisha ibimera bikavanwamwo nyuma y'uko byeze bikoze neza bigatunganywa, bikavanwamo imiti ishobora kuvura abantu mu buryo gakondo.

Ikimera kiba ahantu h'amakoro, mu mabuye ariko bigaragara ko cyakunze ahantu kiri kitariho, kidahanganye n'ibindi bimera ibyo ari byose bikunda kugicura intungagihingwa ziri hafi ahangaha. Igihingwa gikunda kuba ahantu hari amabuye nyangwa se amakoro.

Umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo mu byatsi bitandukanye, ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, bikoreshwa n'abavuzi gakondo taradishonoro hirazi.

Hari amakoro hakaba ikimera cy'ikibonobono, ndetse n'ishyamba ryasaruwe rikaba riri gushibuka, gushibuka rikaba rizongera gutanga umusaruro mu myaka izakurikiraho.